Uku bazanye imbangukiragutabara byabaye byiza kuko mbere wasangaga bahaye umuntu taransiferi. ugasanga abuze uko agera aho bamwohereje ko ariko ubu byaroroshye ni ugukora baguhereza buraniro ugukora warembye cyane.

Amafaromasi atandukanye bakwiye kuzajya bareba buryo ki bagabanya ibiciro, usanga ujya muri faromasi itandukanye bakaguca amafaranga wabaza mu yandi mafaromasi nko mu mujyi bakakubwira ko batagurisha igiciro kigeze aho ngaho.

Indabo nk'izi ziba ari nziza, akenshi iyo ziteye zigakura zimeze neza, ubasha kuzitwara mu mujyi, barazigura kuko bazikoresha bari gutaka ku ndabo barazigura mbese.

Intogi ni nziza kandi zivamo n'umuti, nk'iyo uzihinze neza zikera uragemura ugatwara ku i isoko ukabona amafaranga ukiteza imbere, kandi utekamo n'imboga.